Ikirango kizwi cyane, ikirango cy'Igihugu cy'u Rwanda. Ni ikirango kiboneka ku biceri by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse no ku noti zimwe na zimwe, z'u Rwanda. Kikaba ari ikirango cya Banki nkuru y'u Rwanda.

Ibase icitse irimo ifu ifu ndetse n'igisobane kihari kimeze nk'igishaje kirimo ibindi bintu, n'isekuru irimo ibyo bari bari gusekurimo, ibase ndetse n'umuntu uhagaze, n'indobo ndende cyane.

Amacumu meza cyane, ni amacumu atandatu; amacumu arimo asongoye, n' amacumu afite utuntu tw' udushundu, n' andi ameze nk' indiga, n'irindi rifite akantu kameze nk' umushito.

Inkongoro nziza cyane, inkongoro ibaje mu giti, inkongoro baremeyeho agapfuko ku ruhande k'icyuma, inkongoro bakamiramo amata.

Akabindi keza cyane, akabindi gateretse hasi, akabindi karimo umusururu, umusururu w'amasaka, umusururu uri kubira cyane uri guta ifuro.

Ibirago byiza cyane, ibirago biboshye mu budodo bwiza cyane. Ibirago biteretse ku butaka busa n'aho ari ubutaka bw'igitaka, kivamo amatafari.

Abantu benshi cyane harimo abasaza n'abapapa, ndetse n'umwana w'umukobwa uri gusekura imyumbati y'ubugari, akuramo ubugari mu isekuru, iruhande hari indobo y'amazi.

Umuhanda mugari udateye sima. Hirya hari inzu nziza cyane, inzu ifite ibipangu ndetse n'ibiti bikikije inzu. Wagira ngo ni mu ivuriro cyangwa se ku mashuri.

Isoko rikiri kubakwa, isoko ryiza cyane risakaje amabati meza cyane, amabati y'umutuku, isoko rifite udutanda twiza cyane, udutanda twa sima n'utwumba two kubikamo ibintu.

Inzu nini cyane, inzu yubatse mu buryo bw'uruziga, inzu iriho abantu benshi cyane, abatonze umurongo ,ndetse n'abandi bari gutambagira mu mbuga, imbuga nziza cyane, imbuga iteyemo amapave.

Inzu nziza cyane, inzu wagira ni urusengero rw'Abagatulika ariyo Kiliziya, inzu ifite igishushanyo cya Bikira Mariya imbere hejuru, ndetse inzu ifite ingazi zo kuririraho, ni inzu igeretse ifite umusaraba hejuru, imbere ikaba ifite udupavumo.

Abantu benshi cyane harimo abasaza ndetse n'aba papa wagira bari ahantu habereye ikiganiro cyangwa se ubukwe, hariho umusaza ufashe mikoro, undi bafite ibyo bari kumubwira, hasi hateretse uducupa tw'amazi.

Imfungwa nyinshi zicaye ku ntebe, imbere hari abantu bambaye iby'umukara bazihagaze imbere, n'amazi bari mucyumba cya bonyine, harimo n'ufashe impapuro.

Imodoka nziza cyane, imodoka zitwara abagenzi hariho abagenzi batatu, bane bagiye kwinjira muri bisi ziri kwerekeza ku muhanda ijana na rimwe niho ziparitse imbere yamazu meza cyane.

Imodoka nziza cyane ziri mu muhanda w'igitaka, imodoka zitwara abagenzi, ziri kwinjiramo abagenzi, ni imodoka yanditseho siti egisipuresi, ni imodoka y'umweru nziza cyane, n'inyuma hari indi modoka y'umweru nziza cyane, ihagazweho n'abagenzi.

Gare nziza cyane, gare ya Nyakarambi ifite icyapa kiyiranga. Gare iri kwinjiramo imodoka, hari gusohoka imoto. Gare ifitemo n'abantu bari gusohoka n'undi ugiye kwinjira mu modoka.

Abantu benshi cyane, abantu bafashe bahagaze imbere y'intebe basa n'abagiye kwicara ahantu heza cyane, hasa nk'aho ari mu ndege mu imbere indege nziza cyane.

Abantu babiri beza cyane umwe yambaye umupira w'umweru afashe akanuza bakinisha itenesi undi yambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umweru nawe ari kumuha umukono.

Pusine ngari cyane, pisine nziza ifite ahantu heza ituye, hari akazu abantu bicaramo baganira, ni pusine ipavomye mu mpande ho udukaro.

Abakobwa bari muri sitade nziza cyane . Abakobwa basa n'abari muri siporo bambaye imyenda y'amajezi bari kwiruka bose ku murongo abandi babiri bari inyuma.